Ahantu hari Croix Rouge, bari mu gikorwa cyo gutanga amaraso, hari umuntu uryamye, bari gufata amaraso, yambaye ijire y'ibara ry'umutuku n'umweru, ririho ikimenyetso cyo guteranya cy'ubutabazi.

Abantu benshi bari mu gikorwa k'inamu cyangwa k'igisho runaka abenshi muri bo baricaye bambaye imyenda ifite ibara ry'umutuku n'umweru bakorera Croix Rouge cyangwa se ubutabazi cyangwa gutanga amaraso, imbere yabo hari icupa ry'amazi umwe muri bo afite ikaye n'ikaramu.

Umuntu uri muri biro ahantu ku bitaro ari kuzuza amafishi runaka ari gukoresha mashini aricaye yambaye imyenda y'akazi harimo itabuririya y'umweru, arasutse afite ikaramu imbere yiwe.

Hari igikorwa cy'ikiganiro runaka hari abantu batatu, babiri muri bo bafite indangururamajwi, baricaye umwe muri barahagaze yambaye imyenda y'akazi, bari mu kiganiro runaka barishimye.

Abantu benshi bateraniye hamwe bari mu gikorwa cyo kwamamaza ikintu runaka, hari intebe z'umweru abenshi muri bo barahagaze, aba ni abanyeshuri bambaye iniforume, bari guhabwa ikiganiro runaka cyangwa se bagiye mu gikorwa runaka.

Abaganga bari kuvura abarwayi bambaye imyenda y'umweru, begereye ameza ariho ibitambaro by'umweru, bari butangage serivisi ku baturage benshi, bari ahantu hubakiye bambaye imyenda y'akazi.

Ku bitaro muganga ari gusuzuma umubyeyi utwite cyangwa se kumupima, bari gukoresha ekogarafi ngo barebe uko umwana ameze mu nda; umubyeyi araryamye ku gitanda, muganga yambaye ga, yambuwe n'agapfukamunwa.